Abantu benshi bari ahantu bisa nk'aho ari mu kabari, hakurya hariho televiziyo bari kurebamo, ahantu bwari bwije.

Ahantu heza cyane hateye ifemba, hariho intebe ebyiri n'ameza hijya hariho amazi bakunda kwita pisine.

Burusheti ,izi ni burusheti zirambitse ku isahani. Burusheti ziba zikozwe mu nyama nkuko bigaragara, burusheti ni nziza cyane kandi ziraryoha

Akabari karimo abantu bari kunywa inzoga, umukobwa n'umuhungu n'undi muhungu, ndetse n'umucuruzi. Akabari ni keza cyane.

Ahantu hari icyapa cyerekana ko uko byagenda kose ari ahantu wabona ifunguro ryo kurya. Icyapa kirimo ifoke, handitsemo n'ijambo...

Ni umugabo usa naho ari muri botike ategerereje abacuruzi inyuma ye hariho inzoga hino yaho hari ibindi bintu hirya handitseho sikoro. Uyu mugabo mu bigaragara ni umucuruzi, ubucuruzi ni bwiza bufasha abantu muri rusange.

Amagare aparitse bisa naho ari ku isoko, hirya yaho hari undi uri kuyakanika, aya magare kandi mu bigaragara aragushwa.

Inzu nziza ifite inkingi z'ubururu iteye amakaro mu mpande, ifite ubugari bunini mu bigaragara iragaragara ko ari iy'ubucuruzi.

Icyapa kiriho imashini zempurimaga impapuro. Hariho n'utundi tuntu twinshi bisa nk'aho icyapa ari ikiranga aho bakora ibyo bintu.

Ni inzu iri ahantu yitaruye, ni inzu iri impande y'ibiti birebire mu muryango wazo harimo abantu bisa naho aribo bacuruzamo aho ngaho. Inzu ni nziza tuziraramo.

Ni inzu nini iriho intebe hanze, ifite inkingi z'ubururu, mu muryango harimo igitambaro. Hejuru hari icyapa kigaragaza ibyo ahongaho bahakorera.

ibintu bigaragara neza cyane benshi dufata ko ari impeta benshi bifashisha mu gukora mu gusezerana ni byiza cyane

Depo y'inzoga baranguriramo inzoga, bakajyana mu masantere agiye atandukanye, abandi bakaza kuharangura. Ni nziza cyane, itworohereza urugendo.

Ni ahantu bacururiza amayinite ya Emutiyeni, ibintu bifotoye nk'aho bicuramye. Hariho abantu bamwe bari gucuruza amayinite, n'abandi baje kugura amayinite.

Inzu nziza cyane irimo bisa naho aho bayikoreramo ibintu by'ubucuruzi, hariho umugore ufashe umwana iruhande rwaho hariho intebe.

Inzu nziza cyane, iriho ibyapa byinshi kandi inzu igaragara neza cyane, mubigaragara irahenze kandi inzu ni ndende cyane.

Ahantu hariho amazu, ni butike irimo ibintu byinshi cyane, hariho n'abantu benshi, bisa naho bari kuhahahira, amabutike ni meza cyane.

Iki ni icyapa cyakurangira ahantu , mu bigaragara ni icyapa cyerekana ko hafi aho hari gaze, bashobora kuba bakuvomeshereza gaze.

Matora nyinshi zitondetse ku ruhande, hariho inkingi y'inzu y'ubururu, ku ruhande hariho inzu, iyo nzu yubakishije amakoro y'imikara. Hejuru hariho icyapa kigaragaza ko bacuruza matoro.

Icyapa kiri ahantu heza, ni icyapa cy'umweru kirimo igitanda, mu bigaragara kiragaragaza ko aho hantu hari hoteri.

Isantere runaka, ahantu hariho abanyeshuri bari kuza n'umugabo urikubareba urikureba ku cyapa cya mirongwine. Hirya hariho ipoto y'amashanyarazi, hakurya hariho umusozi w'ishyamba.

Ahantu bakanika amatelefone, hariho icyapa kibigaragaza ko aho hantu bakanika amatelefone. Gukanika fone ni byiza bifasha abaturage muri rusange, mu cyimbo cyo guta phone bakazikoresha, bakongera bakazikoresha.

Ni agakiyosike kari munsi y'igiti cy'avoka, agakiyosike gafite ibara ry'ubururu, mu bigaragara, kagaragara nk'ako bacururizamo.

Umugabo wegamiye muri kekayori, asa n'ushaka kugura ibikoresho byo gukoresha, ahagaze muryango ari kureba icyo yagura, kekayori ni nziza cyane, idufasha mu kubona ibikoresho by'ubwubatsi.

Ahantu hari ibikoresho byo mu rugo ndetse n'imyenda, aha hantu mu bigaragara n'aho ubucuruzi.

Ibiti byinshi n'icyapa cyanditseho virunga, kiri mu ibara ry'umukara ikirango ari umweru, hariho hasi akantu k' akabogisi ko kujugunyamo imyanda.

Inzu nziza yitwa amazinga, iyi nzu ni nziza cyane inzu iriho indabo imbere, mo ndani haparitsemo imodoka, inzu ni nziza cyane.

Inzu nziza y'umukire ifite utuntu twinshi tuyitatseho, ifite urugi rwiza mubigaragara irahenze pe, irahenze cyane.

Umuntu uri gucuruza inkweto nyinshi cyane, harimo iz'ubururu zitambitse ku ihema ry'ubururu, ubucuruzi ni bwiza budufasha mu gutera imbere kwacu.

Inzu nziza iriho ibyapa bigaragaza ko hano hariho inzoga, cyangwa se hariho za keke, cyangwa se za capati.

Ni inzu isa naho ikorerwamo ibintu bya elegitoronike, hariho icyapa hejuru cyerekana ko bakora amatelefoni. Telefoni zapfuye bazikora abantu bakongera bakazikoresha.

Inzu nziza yanditseho amagambo, isakaje amabati y'umukara. Bigaragara ko ari iy'umuntu ukomeye. Bigaragara ko iyi nzu ari nziza cyane.

Umutaka wa MTN, n'inzu bigaragara nk'aho arimo amayimite, muri yo. Ni abantu babiri, umwe bigaragara nk'aho ari mu kazi.

Inzu ifite ibirahuri by'umukara yo isa n'umweru, inyuma y'aho hariho umugabo wambaye umupira w'umutuku, inyuma y'aho hari ibiti birebire.

Ni inzu y'ibara ry'umuhondo. Handitsemo amagambo menshi, hakurya yayo hariho indi nzu igeretse rimwe. Bisa n'aho mu muryango hari umuntu wicayemo, ifite fondasiyo y'umukara.

Ni icyapa cyanditseho Rwanda na nimero nko mu birometero magana ane, ikindi cyapa kiri mu ibara ry'umweru ubusa bw'icyatsi cyanditsemo ngo ihanga mu gihangabuguki.

Ni umumama wicaye, utegereje abakiriya, asa naho acuruza ibintu by'ibiringiti, afite shopu nini, handitseho sasa neza shopu.

Ni inzu ya aitel zimwe bakunda kwita minishopu. Mu bigaragara aha hantu ni ho bacuruza amayinite ya aitel, cyangwa se babikura, cyangwa se babikiriza, abaturage ni ho bayasanga amayinite.

Imodoka iparitse ahantu, imodoka z'umukara ni nziza cyane, iparitse ahantu ku nzu nziza cyane, iyo nzu yubakishijwe, iteye irangi rijya gusa n'igitaka.

Ahantu hariho inzu, uko bigaragara ni inzu y'ubucuruzi, inzu hejuru hariho kanari, ni inzu ifunguye, ifite inkingi z'umikara.

Ni depo idepyemo udufuka twa kawunga, cyangwa se ibindi bintu byinshi. Butike ni nziza cyane. Ituma abantu babona aho bahahira.

Ni inzu iriho icyapa cya airtel. Bisa n'aho bacuruza amayinite. Hegetse imifuka y'amakara, hariho umuntu uva guhaha. Bisa nk'aho ari gukora ubuhahirane.

Inzu nziza cyane ifite ibiti ku ruhande rwabyo, rwayo byiza cyane, isakaje amabati cyangwa se amutegura asa, ajya gusa ubururu, ni nziza cyane.

Farumasi ni nziza , Farumasi n'imiti yayo ,bigaragara ko ari muri farumasi ,farumasi ni nziza ituma amatungo yacu atangirika ahubwo akitabwaho mu gihe gikwiye.

Icyapa gisa naho kigaragaza ko bacuruza imyenda cyangwa se ibindi bikoresho bikorwa mu myenda byerekeye imyenda. Ibikoresho byerekeye imyenda ni byiza biradufasha mu buzima bwa buri munsi mu guhisha ubwambure bwacu.

Ahantu heza cyane. Harihoho ibiti, hariho na jalide nziza cyane. Harimo icyapa cyiza gikozwe mu mweru, mu kirango cyo mu mweru.

Banki. Banki ni nziza, ni nziza cyane wayifashisha mu buryo bwo kuzigama amafaranga yawe ntuyasesagure. Banki yakubera ububiko bw'amafaranga, aho ubika amafaranga yawe akaba yizewe kandi ntugire n'igihunga na gito.

Ni ahantu heza mu cyumba hatatsemo amafoto abiri, harimo ibitanda bibiri harimo n'intebe imwe, mu bigaragara hameze neza cyane umuryango ufunguye.

Inzu nziza ifite ibirahuri by'bururu, isa ifite ibara ry'umuhondo, imbere y'aho hariho ibiti birebire n'insinga by'amashanyarazi, iyi nzu ni nziza cyane.

Kuri moteri ahantu hagaragara neza, hari igipangu kinini, na porotayi nini, hari ikirango kuri cumi na gatanu, impamvu ya cumi na gatanu ni heza cyane.

Ni igipangu gifite inzu nziza, gifite kuruhande hariho ibiti hariho nicyapa ,icyo cyapa ni cyiza cyane, icy' ibiti bifite inyuma hari ikirere gikeye.

Ni umujyi hariho imodoka, kuri Goyiko, imbere yaho hari umusekirite usa naho ari kwambutsa abantu. Goyiko ni nziza tuyikoreramo ubuhahirane.

Amabutike imbere hariho igare, bisa naho amabutike hapatsemo ibintu byinshi. Butike ni nziza, iradufasha mu buhahirane.

Ni isoko, isoko ni ryiza cyane, isoko ridufasha guhahirana mu bintu byinshi cyane, kandi isoko ni ryiza cyane kuko riduha ibintu byinshi cyane.

Ni isoko rinini, ririmo abantu benshi. Isoko ni ryiza cyane, ridufasha muri byinshi, mu buhahirane, no kugurirana ibintu byose.

Isoko, isoko ririmo ibintu, ibiribwa n'ibintu abantu bahinga, harimo umuntu bigaragara asa nkaho agemuye ibintu mu isoko.

Mu isoko ry'inkweto, ahantu hariho inkweto nziza n'imyenda myiza, hirya hariho umuntu uri kuva iyo hirya, bisa nk'aho agiye guhaha.

Umuntu bisa nkaho, asudira inkweto, uyumuntu asudira inkweto, kuruhande rwiwe afiteho ibase n'ibidomoro, inyuma hari ibindi bintu bishaje bisa nkaho ari umusudizi.

Ahantu hariho butike bisa nkaho ari mu isoko. Hariho amacupa arimo ibintu ndetse n'indi myaka myinshi. Imbere hariho umumama cyangwa se umukobwa bisa nkaho ari kubicuruza.

Imyenda ni myiza barayicuruza, abacuruza barunguka natwe tukayihaha tukabungura amafaranga, ni myiza idufasha kugenda duhishe ubwambure bwacu.